Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ubururu ndetse na kaki udupfukamunwa twabo turamaduye, imbere hateretse ifunguro bagiye ku meza kugirango baze gukomeza amasomo yabo ya nimugoroba bameze neza.

Ihuriro ry'abantu benshi bambaye imyenda y'umweru n'iy'ubururu, imbere yabo bafite icyapa cya minisiteri ishinzwe ubuzima, cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, bashishikariza abantu kwirinda kanseri ndetse n'ibyago byose kanseri itera.

Umugabo wirabura wambaye agapira k'umutuku, warengejeho umwambaro w'ubururu, ufite ikayi mu ntoki wagira ni umunyabuzima, imbere ye hahagaze abana ndetse n'ababyeyi babo, aho bari gufata amasomo y'uko bakwitwararika kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Umugabo ukuze wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umwana wambaye agapira kiroza, bose bafite akamwenyu ku maso ari kumwikoreza ijerekani ry'amazi bavuye kuvoma, kugirango ngo baze kubona icyo bakoresha ku gicamunsi dore ko ikirere gikeye.

Abantu bahagaze inyuma y'icyapa cya UNICEF umuryango udabogamiye kuri leta, bambaye umwambaro w'ubururu, basa nkaho bari mu menyekanishabikorwa, kugira ngo bakomeze basigasire uburenganzira bw'umwana.

Umwana mutoya uhagaze ufite isabune mu kiganza, yambaye agapira k'ubururu, hirya urabona ko hahagaze umuntu mukuru, ufashe ijage isa ikicyatsi ari kumusukira amazi mu ntoki kugirango akomeze agire ubuzima bwiza kandi yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Abagabo babiri bambaye amakoti bicaye ku meza, hirya hari idarapo n'inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo, ubona ko bari mu nama rusange iri kureba ku kibazo cy'ubuzima mu gihugu cyabo.

Umwana ufite akamwenge ku maso ndetse n'amazi, yamba agapira karimo utubara tw'ubururu n'umukara n'agapantaro k'icyatsi usutamye kuri robine iri kuvamo amazi bisa nk'aho yishimye kandi ari kunywa amazi meza.

Umugabo ufite akamwenyu ku maso, wambaye ishati y'amaboko magufiya n'ipantaro y'umukara, utsikamiye ku ijerekani ye isa umuhondo, yaje ku mugezi kuvoma amazi meza ari buze gukoresha mu turimo twe tugiye dutandukanye.

Umubyeyi wicaye hasi ufite akana gatoya mu biganza bye, kambaye umwenda w'ubururu werurutse, bari kumwe kandi n'umugabo wicaye mu ntebe w'ishati ndende y'amaboko ,ari kugashyiraho agapfuko ku kaboko kaho bamaze kugakingira.

Abantu benshi bari kumwe imbere y'inyubako basa nk'abari gufata ifoto y'urwibutso, hagati hari umusore w'ibigango wambaye umwambaro w'ubururu, hirya hari umusaza wambaye umwambaro w'umweru ndetse n'akamuranga mu ijosi, bisa nkaho ari abajyanama baje guhugurwa, kugira ngo bakomeze bagire inama abaturage ndetse biyungure n'ubundi bumenyi.

Umugezi ufite ihombo iri kuvamo amazi, hahagazeho umugabo utezeho ikiganza usa nkaho ari gukaraba, kugira ngo yirinde indwara zose zandurira mu mwanda.

Ibyuma byo kwa muganga bikoranye ubuhanga n'ubushishozi, akaba ari n'ishusho y'iterambere kuko bitanga umwuka kuri buri wese uwukeneye ibinyujije mu twenge twabugenewe.

Umugezi ufite amarobine ku mpande zigiye zitandukanye, amazi ari kumeneka, hirya hari umwubatsi uri kuyafungura, uzengurutswe n'abantu benshi bafite amajerekani n'indobo, bategereje kuvoma amazi meza, kandi burya koko ni yo soko y'ubuzima.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe irinda indwara zituruka ku biza, bari gupima umusaza wicaye ku gatebe wambaye akagofero k'ubururu mu kanwa y'uko nta kibazo yaba afite kugira ngo babone ukuntu bamwitaho.

Umwana mutoya wirabura udafite umwambaro, yicaye hasi mu nzu y'inkuta z'umweru, aho ku kuguru kumwe kuziritseho imigozi wagira ngo ari mu buroko.

Abana bahagaze ari benshi mu gikundi ubona ko bari gufata ifoto, umwe ahagaze yambaye ibirenge, abandi bafite ubujerekani mu biganza, ubona ko bari ahantu mu gihuru kandi koko bakeneye kwitabwaho kugira ngo bakure neza mu mitekerereze yabo ndetse bazagirire n'akamaro igihugu mu gihe kizaza.

Umukecuru usheshe akanguye wicaye hasi n'imyenda isa nabi, akikiye ibintu mu biganza bye ubona ko akeneye umuntu umugira inama ndetse unamuba hafi mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abagore batatu bambaye udupfukamunwa, bicaye bateganye mu ntebe, inyuma yabo hari amazu ya kera azwi nka nyakatsi, basa nkaho ari abajyanama bari kuganiriza umubyeyi, uburyo babungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye ikanzu y'amaboko maremare, agashakoshi mu ntoki ndetse n'indangururamajwi, imbereye hahagaze umukobwa mutoya wambaye agapira k'umutuku n'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari kumushimira uburyo yitwaye mu mahugurwa.

Ibitaro bikuru by'Akarere bitanga serivisi z'uburwayi zigiye zitandukanye, harimo kuvura, kubyaza ndetse no kwita ku bababaye, bikaba byakira abantu benshi kandi batanga n'impanuro z'uburyo wakwirinda indwara.

Umugore wirabura uteze igitenge mu mutwe, ubona ko ku maso ye atishimye, afite uburakari bukabije kandi mu byukuri akeneye umuntu umuba hafi kugira ngo amuhoshe uwo mujinya.

Abakobwa babiri bicaye bateganye, umwe yambaye ingofero ya gisirikare, n'umwambaro w'umutuku, n'undi yambaye amadarubindi, n'umwambaro w'umukara hose, asa nkaho ari kumuhumuriza kugira ngo ataza kugira ikibazo cy'ihungabana, bikamwangiriza ubuzima bwe bw'imitekerereze ye.

Umugore mukuru ufite indangururamajwi mu ntoki wicaranye n'abandi bamukikije, aho ari gutanga ikibazo mu nama yabahuje kugira ngo agire ibibazo bimwe bikemuka.

Umugabo w'uruhu rwera uhagaze imbere y'icyapa cy'ibitaro bya Caraes i Ndera, usa nk'aho ari gufata ifoto y'urwibutso nk'umushyitsi waje kuhasura kugira ngo amenye byinshi bihakorerwa.

Umusore wirabura uri kwireba mu ndorerwamo, yambaye agapira k'umweru n'akantu mu ntoki, bisa nkaho ari guhanagura amenyo ye kugira ngo ase neza, akomeze yirinde indwara kandi agire isuku mu kanwa.

Umukobwa w'imisatsi myinshi irekuye, ufite akamwenyu ku maso uri kwireba mu ndorerwamo afite uburoso mu kanwa aho ari gukuba amenyo ye kugira ngo yirinde indwara zose zahaviramo.

Umuganga wambaye uturindantoki dusa iroza akaba afite igikoresho avuza amenyo ndetse n'ikindi yigiraho, aho ari gufata amasomo atandukanye n'ubuvuzi bwisumbuyeho kugira atange serivisi nziza ku bantu bose bafite ibibazo byo mu kanwa.

Umuforomokazi wambaye umwenda wabugenewe, agapfukamunwa, amadarubindi hejuru, ndetse n'akamurinda gukomereka mu biganza, ari kurebera umurwayi uryamye ku gatanda mu kanwa yuko nta bibazo yaba afitemo.

Umwana ukiri mutoya wishimye ku maso, yicaye mu ntebe y'ubururu, afite uburoso mu kanwa asa nkaho ari gutozwa kugira isuku, ndetse no kwita ku menyo ye.

Umuganga wambaye umwambaro w'umweru, yicaye ku gatebe k'amaguru atatu, inyuma ye hari agatanda k'abarwayi kugira ngo abahe serivisi zose bakeneye, zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Abagabo birabura, bafite ibikoresho byo kwa muganga mu ntoki zabo, n'ikindi bigiraho, aho bari kwimenyereza umwuga, kugira ngo bazatange serivisi nziza, zishingiye ku buvuzi bw'amenyo.

Abagore batanu bicaye mu busitani, umwe ari kumwe n'abana babiri iruhande rwe, bicaranye kandi n'umugabo ukuze w'uruhu rwera ukikiye umwana mu biganza bye, ubona ko bahuje urugwiro kandi umunsi ukeye.

Umukecuru ukuzeho w'imisatsi y'umweru ndetse n'amadarubindi ku maso, afite igikombe mu ntoki ndetse n'ikindi kiganza cye kiri ku mazuru, bisa nkaho ari kunywa ibinini kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye.

Umusaza munini wimvi z'umweru ubwanwa asa nkaho yicaye mu ntebe afite agakoni mu biganza hirya ye ura abona ko hari umuforomokazi yambaye umwambaro w'ubururu bisa nkaho ari kumwitaho kugira ngo akomeze agire amasaziro meza.

Umukecuru uri mu zabukuru, wambaye igitenge cy'umuhondo, agashati k'umweru ndetse n'igitambaro mu mutwe, asa nkaho yicaye hasi, hirya ye hari agakono ubona ko ari guteka, muby'ukuri akeneye umuntu umufasha kugira ngo agire amasaziro meza.

Abagore babiri bicaye mu gikoni cya kizungu, ubona ko bafite akamwenyu ku maso, umwe yambaye agapira k'ubururu ndetse afite n'isorori mu kiganza cye, undi yambaye amadarubindi ndetse afite imisatsi y'umweru yambaye n'agapira k'umweru usa nkaho ari mukuru, ari gukata imbuto ndetse n'imboga, kugira ngo bategure amafunguro yabo ameze neza.

Umusaza n'umukecuru b'imvi bicaye bose ku meza n'igipapuro mu kiganza n'ibinini, hanyuma imbere yaho hari ikirahure cy'amazi, ari kumusomera kugira ngo amenye ingano y'ibyo afata.

Icyapa cya Minisiteri ishinzwe ubuzima kibwiriza abantu gufata inkingo z'icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, cyane cyane ku bana bakiri bato ko aba ari bo bafite ibyago binini byo kwandura.

Ibitaro by'akarere ka Shyira byakira indembe, abarwaye, abavunitse ndetse n'abashaka serivisi zose zo kwa muganga kugira ngo babakurikirane babiteho kandi bakomeze bagire ubuzima buzira umuze.

Abagore bane bambaye umwambaro wo kwa muganga, udupfukamunwa ndetse n'ikibaranga mu ijosi bahagaze imbere y'ibitaro by'aho ababyeyi babyarira, baho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ubusitani burimo uduti duto ndetse n'ubwatsi butoshye, uzengurukijwe n'uruzitiro rw'amabuye n'amatafari ahiye, harimo ibyicungo abana bakoresha iyo bari kwidagadura.

Sale nini yo kwa muganga harimo ibitanda, utumeza, amarido ndetse n'inzira nyabagendwa y'aho abarwayi babakirira, mu gihe barangije gufata ubuvuzi bw'ibanze.

Abagore bari kumwe bambaye umwambaro usa wo kwa muganga w'ubururu, ndetse n'agapfukamunwa ku maso, ibipfunsi byabo biri hejuru, bari imbere y'icyapa cyo kwa muganga aho bafatira ifoto.

Icyumba kinini k'inkuta z'umweru ndetse n'amatara hejuru, harimo icyuma gisuzuma uko umubiri wawe uteye, aricyo abaganga bifashisha kugira ngo babashe gusuzuma ubuzima bwawe ndetse n'ikibazo ufite.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi ndetse n'abana basa nkaho bari ku kigo nderabuzima, baje gushaka serivisi kugira ngo barebe ukuntu ubuzima bwabo ndetse n'ababo uko buhagaze, kandi bagirwe n'inama z'uko bakomeza kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa iyo uri gukora siporo zigiye zitandukanye, biri muri sale nini y'abantu benshi aho bahurir,a kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, buri wese yisanzuye kandi batabangamiranye.

Icyumba kinini cy'inkuta z'umweru, kirimo ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu gupima indwara zigiye zitandukanye, ndavuga inshinge, imikasi, ibitanda, mikorosope ndetse n'akazana urumuri kugira ngo urebe neza.

Farumasi ifite umuryango munini ndetse n'icyapa hejuru cyanditseho amagambo aharanga, niho ubasha gukura ibinini ndetse n'imiti muganga yakwandikiye.

Umubyeyi uryamye ku gitanda kwa muganga ku mashuka y'umweru, aho ari kwitabwaho n'imashini iri gusuzuma uko ubuzima bwe buhagaze ndetse n'iyindi iri kumwongerera amaraso.

Icyumba kinini cy'ibirahuri n'imiryango minini aho harimo intebe ndetse na televiziyo, aho abashakashatsi bateranira bari gukora inama kugira ngo barebe ibyo bakeneye ndetse n'ibyo bamaze kugeraho.

Umuryango munini ubona ko ukomeye ukikijwe n'ibyuma, ufunga icyumba kirimo ibikoresho by'abaganga bifashisha mu gihe bakiriye indembe cyangwa se umuntu ufite ikibazo gikomeye akeneye kubagwa.

Sale nini y'ibitaro, yakira indembe, abarwayi ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye, ifite ibitanda, ibyumba ndetse n'inzira nyabagendwa, aho urangije kuvurwa aza akaruhukira.

Abaturage b'umujyi wa Gisenyi bari ku kigo nderabuzima cyaho, aho bari gusaba serivisi zitandukanye z'ubuzima, kubavura ndetse no kubapima indwara, aho banakura kandi ubumenyi bw'uko bakirinda izo ndwara.

Icyumba cyiza cy'ibiro by'umuyobozi, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aribyo intebe, ameza, mudasobwa, utubati turimo ibikoresho, inkuta z'umweru, ndetse n'amarido.

Umwana ukiri mutoya uri ku gatanda ndetse n'umugabo uhagaze uri kuzirika bande ku kirenge cye, aho ikoreshwa mu gihe amagufwa yawe yabashe gutandukana kugira ngo asubirane.

Umukobwa w'urubavu rutoya, yambaye umwambaro wa siporo, arunamye ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bimufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wirabura wambaye agapira k'umweru, ufite akantu k'agashashi hejuru y'ukuboko kwe arenzaho ikiganza, kamufasha kwirinda mikorobe ishobora kumwinjira mu mubiri igihe yakomeretse.

Umugabo w'intoki z'uruhu rwera, afite umupira mu biganza bye, yambaye umwambaro w'umweru ndetse n'akantu gapima umutima uko utera ku ntugu ze, aho ashinzwe kumenya imyitwarire ndetse n'ubuzima bw'abakinnyi.

Umukobwa w'imisatsi miremire wambaye umwenda umwegereye ndetse n'udutanga amajwi mu matwi, ahagaze asa nk'aho yari ari gukora siporo ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, amufasha kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza ndetse ntagire inyota mu gihe ari gukora imyitozo ye.

Ibiganza bine bishushanyije byerekana uko wafunga intoki zawe kugira ngo zitazagura ikibazo cyo kuvunika byoroshye, cyane cyane bikoreshwa ku bantu bakora siporo y'iteramakofe.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo n'inkweto z'umweru, afite utujyanamajwi mu matwi yicaye hasi, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Abantu bapfukamye ndetse n'abahagaze muri salle, ubona ko ari urubyiruko, bari kwiga uburyo watabara umuntu wabashije kugira ikibazo cy'imvune, umukoranabushake urambaraye hasi ku gitambaro gisa ubururu.

Amaboko y'uruhu rwera yambaye uturindagukomereka mu biganza, aho duciye ku mitwe tugufasha rero kugira ngo utaza kugira ikibazo mu gihe uri guterura ibikoresho bimwe na bimwe biremereye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, usa nkaho yagize ikibazo cy'imvune, afite barafu ahagana ku nkokora ze, ikiganza cye kiri hejuru n'impeta aho ategereje ubuvuzi bwisumbuyeho.

Amafunguro higanjemo imbuto ari ku gasahane k'umweru, hejuru hariho agapima uko umutima utera gakoreshwa n'abaganga.

Igiti gifite amababi y'icyatsi manini giteye hagati y'inyeshyamba kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zijya zitandukanye cyane mu miti bita iya gakondo.

Imurikagurishwa ry'imiti aho umuguzi n'umugurisha, bahagaze batsikamiye ku meza manini ariho amacupa menshi, arimo imiti kugira ngo ikoreshwe mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti wa Aloe, ukozwe mu miti ya gakondo, ikoreshwa cyane mu misatsi. abenshi bazi nka shampo, ikurinda imvuvu ikanatuma umusatsi wawe ukura neza. kuko haba harimo vitamine.

Umuti wa gakondo uzwi cyane nka tangawizi ukunda gukoreshwa n'abantu bakuze, akenshi uvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane gufungana kw'amazuru ndetse n'inkorora yakaye.

Umugabo mukuru wambaye agapira k'umweru, ahagaze hagati mu ishyamba, aho afashe ku giti gifite utubabi tw'icyatsi, tuzi umumaro wacyo kwa ari ugutanga umwuka mwiza ndetse no gufasha urusobe rw'ibinyabuzima.

Imiti ikoranye ubuhanga mu byatsi bya gakondo wisiga cyangwa se ukoga, ikurinda indwara z'uruhu zigiye zitandukanye harimo gukanyara, ibishishi ndetse n'ibiza cyane cyane ihindagurika ry'ikirere.

Umuti wo kwa muganga witwa sanitizer ukoreshwa uwusiga mu biganza kugira ngo ukurinde mikorobe z'ahantu hose wafashe, cyane cyane iyo uri kuvura nk'abarwayi.

Igiti cy'amababi y'icyatsi manini, cyeze ku ruzitiro rw'urugo, kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye aho benshi bayita imiti ya gakondo.